Abantu batandukanye b'ingeri zose: abagore, abagabo n'urubyiruko, bakomeje guhabwa amahugurwa, mu buryo bwo kwiteza imbere mu gihugu cyacu.

Ababyeyi bagira ibihe byo guhugura abana babo, ku bintu bimwe na bimwe batari basanzwe bazi, kandi bifitiye umuryango nyarwanda akamaro, rero babyeyi mwese nimurusheho kwegera abana banyu.

Ivuriro Goodlife ribafasha kumenya ibipimo by'umuvuduko w'amaraso, ibipimo by'isukari, n'ibigereranyo by'ibiro ku burebure, mu gihe ubagannye babanza kuguha izo serivisi, basanga ufite ikibazo bakakohereza muri farumasi yabo gufatayo imiti. Mubagane.

Ibigo nderabuzima bikomeje kugira inyubako zitandukanye, harimo ibiro bikorerwamo, harimo aho basuzumira ndetse hariho n'aho bakirira ababyeyi.

Imiti itandukanye ikozwe mu bihingwa ikomeje kugenda yogerezwa abaturage no kwerekwa uburyo wayihinga.